Inyama zokeje ni nziza cyane, ariko kuzikoresha kenshi cyane bituma dushobora kurwara indwara zimwe na zimwe nka Gute. Ni yo mpamvu dukwiriye kuzikoresha bitari cyane. Icyakora ziraryoha cyane.

Rubyiruko mwirinde inzoga zikabije, kandi mwirinde inzoga zikaze kugira ngo ubuzima bwanyu butazahangirikira. Ahubwo mutegure ejo hanyu hazaza, kugira ngo muteze Igihugu cyanyu imbere ndetse n'ababyeyi banyu n'abanyu bose muri rusange.

Si byiza ko urubyiruko rwitabira akabari cyane, kuko rushobora guhuriramo n'ibibazo byinshi. Tujye dushishikariza abana ndetse n'abandi bantu b'urubyiruko kutishora mu nzoga, kuko bamenyereye gutyo ntabwo bazashobora kwibeshaho ejo hazaza.

Amafi ni ikiribwa kiryoha cyane, mucyo dukore ibishoboka byose natwe tujye tuyahorana iwacu, kugira ngo abana bacu bagire ubuzima bwiza, kandi abana bacu bagire ubwenge mu mashuri.

Nibyiza kunywa inzoga nkeya, ukiramira kugira ngo utaza guteza impanuka, ikindi ntujye utwara imodoka wanyoye, kuko biteza impanuka nyinshi.

Si byiza cyane abana b' abakobwa bakiri bato kwishora mu tubari, kuko bahashyukirwa cyane ugasanga batwite inda zitateganyijwe, kandi ikindi ugasanga bangirijwe ejo habo hazaza, ugasanga babuze amahitamo kubera gushukishwa amafaranga.

Utubari twinjiza amafaranga menshi abacuruza utubari bajya batanga imisoro itubutse, kuko imisoro ituma hubakwa amavuriro ndetse n'amasoko n'amashuri.

Mu tubari hakorerwamo byinshi, ariko ibyinshi biba bibi kubera ubusembwa. Tujye tunywa twiramire kugira ngo tudateza imbogamizi cyangwa se impagarara mu mihanda, kuko kunywa ukarenza si byiza.

Amabutike y'iwacu dusangamo imyaka, tugasangamo inkweto, tugasangamo imyambaro myiza, ni byiza ko tuyasigasira tugahora duharanira amasuku yayo muri rusange.

Amabutike atworohereza ingendo, zo kujya guhahira kure, mu masoko ya kure, niyo mpamvu dukwiye guteza imbere abacuruzi tutabagoye, kuko baratworohereje ingendo.

Butike z'iwacu dusangamo amateke, tugasangamo imboga, tugasangamo inyama, usangamo ibintu byinshi, niyo mpamvu ari byiza ko tuyabungabunga duteza abacuruzi bacu imbere.

Hari ibikoresho byinshi, dusanga mu mabutiki: dusangamo ibikoresho byo mu rugo, dusangagamo ibikoresho byo mu biro, dusangagamo ibikoresho byo mu gikoni. Ni byiza ko tubigura twishimye kuko biba byujuje ubuziranenge.

Amabotike dusagamo ibikoresho by'ibanze bakoresha ku ishuri, nkuko turi kubibona kucyapa, turi kubibona mu maso yacu neza, kuko dusangaho ibishushanyo, tubona amabotike iwacu bitadusabye kujya kure.

Mu mihanda dutambuka neza, twubahiriza amategeko y'umuhanda, iyo twambukanya umuhanda duca mu mirongo y'umweru, kandi twarebye neza niba nta modoka ziturutse ruguru no hepfo.

Mu mabutike dusangamo n'imitobebe itandukanye, amavuta yo kwisiga, ni byiza ko dukoresha neza amabutiki yacu neza kugira ngo ibyo kunywa bitangirika.

Amazu yacu y'ubucuruzi usanga hirarimo ibintu byinshi ndetse haba harimo n'amatera cyangwa se amadodoma ni byiza ko amabotike y'iwacu yazana ibicuruzwa bihabwa.

Gucuruza ni byiza biteza umuntu ubikora imbere, ni byiza ko ducururiza mu mabutiki ndetse no mu masoko yubatse, ntabwo ari byiza kugenda mu muhanda ducuruza kuko biteza umutekano muke.

Kujya ku nsengero ni byiza, bituma uhura n'Imana ukayiganiriza kandi ikagusubiza, tujye twitabira kujya ku nsengero, tujye gusenga, tujye kubwira Imana ibyifuzo dufite.

Inzu z'ubucuruzi zacu tuzibungabunge tuzikorera amasuku, duhaha neza mu muco, kugira ngo abacuruzi b'iwacu batazabafungira, tuhakorere amasuku ahagije kuko badufitiye akamaro kanini.

Imbuto ni nziza cyane ariko kuzicuriza mu mabutiki ni byo bizazirinda kwangirika turasaba leta, ,kutwubakira amasoko n'imboga zajyaga turindira ibicuruzwa kugira ngo bigende neza.

Butike iwacu ni nziza cyane. Tujye tuguriramo cyane cyane aho kugira ngo tujye mu masoko ya kure, tujye tugurira iwacu, usanga harimo byinshi dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ni byiza kwihangira imirimo ducuruza mu mabutiki, dushaka ibicuruzwa ku bwinshi kugira ngo abakiriya batajya babibura, bigatuma baducikaho.

Ku mabutike dusangamo gaze, tugasangamo ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ni byiza ko igihe dutetse kuri gaze tujya tuzicunga kugira ngo zitangiriza amazu kuko iyo ibaye nyinshi ishobora gutwika inzu.

Muze ducuruze ibicuruzwa byinshi bihagije, kugira ngo abanyarwanda batazabura aho bahahira, ubwacu twiteze imbere, tuzamurane, kugira ngo tugire ubukungu burambye.

Amabutiki dusangamo n'imyenda y'ingeri zose, imyenda y'abagore, imyenda y'abagabo, imyenda y'abana, ni byiza ko tubungabunga amabutiki tuyakorera isuku, kandi tubungabunga ibirimo kugira ngo bitugendekere neza.

Ibihaza nibihingwa biryoshye cyane kandi biba bikungahaye kuri vitamini A, dore ko babisa n'umuhondo ikindi mu mabutike yacu dushishikariza n'abacuruzi kuzaruho ku kubizana ibyo bicuruzwa tubonere kugihe.

Amabutike yacu, turashishikarizwa dushyira amakaro ku nkuta, ndetse n'amapave mu mbuga ,kugira ngo abakiriya bacu bazajye baza basange hasa neza, bityo bagure bishimye.

Guteka ku mashyiga ya kijyambere bikundwa n'abantu benshi. Ariko bigomba gukoranwa ubushishozi, kugira ngo hataza kuba impanuka nk'inkongi z'imiriro n'ibindi bibazo byinshi biterwa n'uburangazi.

Muri butike mbonamo: ubuki, imigati, amajyeri atandukanye, nkabonamo ibyo kurya by'ibinyampeke, ndetse n'ibindi byinshi muri rusange.

Amabutike dusangamo ibishyimbo, dusangamo amashaza, cyangwa se amajeri, dusangamo ibirayi dusangamo ibijumba, ndetse n'ibisheke ibyo byose ni byiza ko tubirya.

Ibiti bibera ahantu henshi, ni byiza ko tubitera ku ma nyubako yacu, tukabitera ku mashuri kugira ngo birinde umuyaga wagurukana ibisenge by'amazu, tubitere ku bwinshi kugira ngo tubungabunge ibidukikije.

Imitako ni myiza ku bayikoresha ituma mbere na mbere uyicuruza yunguka, ikindi igaragaza umuntu neza iyo ya yambaye ubona asa neza bitandukanye n' uko yari ari atarazambara.

Amabutike ni meza atuma duhaha ibyo dukeneye tukabibonera hafi tutarinze twatega imodoka ngo tujye gushakira ibyo dukeneye mu masoko ari kure. Ni byiza rero guteza imbere abantu bacuruza mu mabutike.

Mu mabutiki dusangamo n'ibyo kurya bitandukanye ndetse n'ibyo kunywa. Dusangamo nk'amandazi cyangwa se imigati, tugasangamo ibyo kunywa nk'amaji cyangwa n'amata. Ibyo tukabinywa tukanezerwa.

Ubucuruzi ni bwiza bwungura ababukora, bubaha amafaranga bukabaha ibyo bakeneye byose, bakikenura bakigisha abana babo amashuri meza, bakagura ibyo bakeneye mu rugo.

U Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo. Muze twiteze imbere, twihangire imirimo, kandi tugire isuku aho dutuye, kugira turusheho kugubwa neza.

Amaduka yo mu makaritsiye y'iwacu dukwiye kuyafata neza, kugira ngo abacuruzi batazahomba cyangwa se bagafungirwa, bityo tukabura aho tuzajya duhahira. tuyabungabunge tuyakorera isuku.

Mu mabutike dusangamo ibibazo byinshi bitandukanye, tuzigane kuko batwegereje ibicuruzwa, ni byiza ko tuzigana kuko bitadusaba gutega tujya mu masoko manini. Aba bacuruzi barakoze, kuko baba batworohereje ingendo.

Gaze ni ibicanwa byiza biruhura abantu, ariko dukwiye kubikorana ubwenge ndetse n'ubushishozi, tukabikorana ubwitonzi tukagenzura neza ko ziri bukoreshwa neza, kuko iyo urangaye usanga zangirije inyubako zikazitwika.

Mu mabutike yacu ameze neza. Imbere mu mbuga yazo harimo amapave, ndetse usanga nko mu nzu y'imbere hari isuku iganje. Niyo mpamvu dukwiriye gukomeza kuyabungabunga.

Iduka iwacu dusangamo ibitenge, tugasangamo amaterefone, tugasangamo ibyo kurya, tugasangamo n'ibindi byinshi bitandukanye. Tugasigasira duteza imbere abacuruzi bacu.

Ibiti ni byiza cyane cyane ku nyubako, kuko birinda umuyaga bituma umuyaga uba mukeya, bifata umuyaga umuyaga umuyaga ntusambure inyubako. Ni byiza ko tugira ibiti ku butike yacu.

Butiki z'iwacu zifite isuku koko. Usanga dukora neza tugasanga isuku iraganje iwacu. Ni byiza ko dukomeza kubisigasira kugira ngo dukomeze tube aba mbere mu iterambere.

Mu bucuruzi hari abantu benshi bibwa bakiga kubera kutamenya kubara ni byiza ko twihugura mu mibare, kugira ngo abacuruzi barusheho gusobanukirwa n'amafaranga bahabwa.

Abacuruzi b'amabutike baziye igihe. Barakoze kuko bituma tutajya mu masoko ya kure, byatuma dutega tugakoresha amafaranga menshi. Ni byiza rero ko duhahira mu makaritsiye y'iwacu.

Mu mabutike dusangamo ibikapu, dusangamo imyenda, dusangamo inkweto, amabutike ni meza yaziye igihe, tujye tuyagana kugira ngo tugurire hafi tudahenzwe.

Dukure amaboko mu mifuka dukore twihangire imirimo, u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo, mbese ni tutihangira imirimo cyangwa ngo dukorere u Rwanda rwacu ruzakorerwa na bande?

Butike dusangamo ibintu byinshi tubungabunge iyo suku yazo kugira ngo batazaza kuzifunga, dukomeze tubonere ibintu hafi tutagiye kubishakira mu masoko ya kure, mucyo tubungabunge isuku mu mabutike.

U Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana barwo mucyo twihangire imirimo izatuzamura tukava mu ngo z'ibiceca muri rusange ndetse ikazamu na bagenzi bacu.

Amaforomase agomba kuba ari ahantu heza hadatura kugira imiti zibe zimeze neza, zitangiza abantu ni byiza ko tuzigirira isuku.

Itegere amatwi wicecekere, inzira zirimo ni nyinshi, ntabwo izabura uko ibigenza. Iyo ni ikorasi nkunda cyane, kuko usanga insubizamo intege, imbaraga. Kandi usangaga abaririmbyi basa neza.

Amazu yacu aba akubiyemo n'amazu y'ubucuruzi ndetse n'amazu y'amahoteri cyangwa se za moteri, tugabungabunge isuku yabyo ihore iganje.

Mu mijyi hari inyubako nziza cyane , kuko u Rwanda rwateye imbere, abanyamahanga batangarira isuku yarwo, bagatangarira inyubako zirimo . Natwe abanyarwanda tujye twishimira izo nyubako z' u Rwanda.

Umuntu ufite hoteri aba ari umukire rwose, ariko nawe aba yaratangiriye ku kantu gato, atangira kuri botike cyangwa se akabari gasanzwe gato agaciriritse, ariko agakomeza agahabwa umugisha akagera kuri hoteri, tangirira kuri duke duke kuko buhoro buhoro ni urwo rugendo.

Guhahira mu gatete ni byiza, ariko tujye tureba niba ibyo duhashye bifite ubuziranenge bwuzuye, kuko ibicuruzwa bicururizwa hasi ntabwo twakwizera neza umutekano wabyo.

Bashyitsi na Sebishyimbo bakunda guhahirana, ariko uno munsi wo sinzi niba bagura kuko amashu yose yose yaboze Bashyitsi ari kuyanga.

Umutobe mwiza witwa sarama ni umutobe bakundwa n'abana, uraryoha cyane, cyane cyane ngo umwe uwitwa sarama uturuka kuri pome, tujye tuwugaburira abana kugira ngo bawishimire.

Igihingwa cy'ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane tujye tugikunda kuko ibishyimbo bibamo ubutare, bigatuma umubiri wacu ukomera bigatuma dukomera natwe tukagira imbaraga.

Amabati iyo akerebereye si byiza kuyegera kuko ashobora kugutera indwara nyinshi, nk'iyo agukebye ushobora kurwara tetanusi ugahita upfa, twirinde aho ari.

Ibicuruzwa byacu twirinde kuzajya tubishyira hasi, kuko bishobora kujyamo udusimba ndetse na mamikorobe. Dusabe amasoko yubakiye, kugira ngo turusheho kubungabunga ubuzima bw'abakiriya bacu.

Amasoko yubakiye aba agaragara neza ndetse n'ibyo kurya tugiriyemo tuba tubona ko byujuje ubuziranenge bigatuma twumva neza ubuzima bwa tugenda neza ni byiza kuduhahira mu masoko yubakiye neza.

Ni byiza gukoresha indagara n'isambaza kuko zigira intungamubiri nyinshi, tujye tuzikoresha akenshi tuzirye, tuzigaburire abana bacu kugira bakure neza.

Mu maduka iwacu dusangamo imyenda nk'amapantaro, amajipo, amakanzu, imipira, n'udupira duto ndetse n'amajele.

U Rwanda rurakataje mu bikorwa by'ikoranabuhanga, za mudasobwa no mu mashuri abanza baraziga ndetse n' abato babasha gukoresha mudasobwa kuko ubusanzwe basigaye bayita inshuti yanjye mudasobwa.

Gucuruza inkweto ni byiza iyo duhuye n'abantu bari kuzicuruza, ni byiza ko tubabwira tukabashishikariza gucuruza mu masoko kugira ngo batange imisoro, iyo misoro izadufashe kubaka igihugu cyacu.

Hari imbuto nyinshi cyane, hari amaronji, hari inanasi, hari marakuja, hari amapera, hari imineke n'izindi tujye duha abana bacu imbuto kugira ngo bakure neza.

Imboga ni ni nziza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuzikoresha kenshi, gusa cyane cyane tujye twibanda ku mboga z'inyanya kuko ni nziza cyane zituma n'ibiryo biryoha cyane.

Mu masoko y'iwacu mu cyaro dukunda gucuruza ibicuruzwa, hasi dusasaho imifuka tugashyiraho ibishyimbo, bijumba, ibirayi. Dusabe kubakirwa amasoko kugira ngo ibicuruzwa byacu bijye aheza.

Saradini ni ibiryo biryoha cyane, ni ibikomoka ku mafi, tujye tubigura tubirye twishimye. Dore ko abenshi bagiye babisebya, bavuga ngo ntitwamenya ibintu bifungiyemo, ariko ni amafi, tuyakunde cyane.

Imboga n'imbuto birakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tujye tuzikoresha kenshi kugira ngo twirinde indwara nyinshi, kandi tubungabunge ubuzima bwacu ndetse n'ubwa bagenzi bacu n'ubw'abana bacu muri rusange.

Amavuta yo gusiga uruhu tugomba ku yagurana ubushishozi, kuko dushobora kugura amavuta atemewe akangiriza uruhu rwacu, bikadusaba kwivuza cyane kugira ngo tubashe gukira izo ndwara z'uruhu.